Aha hagaragara abantu bari mu nama b'abayobozi cyangwa se abandi bantu b'abaturage, imbere hari abantu babayoboye harimo abadamu, harimo n'abagore inama iragaragara ko ariyo mu Rwanda yabaye ku itariki makumyabiri n'eshatu zukwa gatatu, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Aha hari abantu batatu bicaye imbere yabo hari indabo bafite n'ubucupa bw'amazi umwe yambaye umupira usa ubururu undi yambaye ingofero undi yambaye ikanzu isa umutuku inyuma yaho bari mu nzu idekoye neza cyane bigaragara ko bari mu kirori.

Iyi foto iragaragaza ibikoresho byifashishwa kuzimya umuriro igihe habayeho inkongi, umuntu wese aba akwiriye kuyitunga kugira ngo igihe ahuye n'inkongi y'umuriro, ayifashishe azimye umuriro vuba, inzu ye itarafatwa.

Iyi modoka iparitse mu muhanda, umuhanda ukikijwe n'ibiti harimo n'indabo zigiye zitandukanye n'umuhanda ugezweho wubatswe mu buryo bwa kaburimbo imodokadoka ifite amabara y'ubururu ndetse na y'umweru.

Iyi foto iragaragaza umuhanda urimo imodoka, imodoka itwara ibintu, imbere yaho hari umuntu uri ku igare ahetse umufuka, ku ruhande hari amazu, ikigaragaza cyo hano hantu haratuwe, kandi umuhanda waho umeze neza urubakiye, ni kaburimbo.

Aha haragaragara aba motari bari ku muhanda aho bategera abagenzi, inyuma yaho hari umusozi muremure cyane n'ijoro amatara araka hari n'amapoto ajyana umuriro mu nce zigiye zitandukanye.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda abatwara ibinyabiziga bifashisha kugira ngo batware abagenzi neza kandi birinde impanuka zo mu muhanda, gukoresha iki cyapa bituma abantu bagenda mu buryo bwizewe kandi bwiza.

Iki ni icyapa gishushanyijeho amatara uko agenda ayobora abagenzi mu muhanda yifashishwa n'abamotari cyangwa abatwara imodoka kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Iyi nzu yubatse umuhanda umuhanda wa kaburimbo ikikijwe n'ubusitani harimo indabo ndetse n'ibiti, ibiti ni byiza bituma habonekaho umwuka abantu bahumeka. Inzu yubatse mu buryo bugezweho bugiye bugerekeranye, ikaba iri mu bwoko buhenze cyane.

Aha hagaragara ku muhanda umuhanda wubatse neza, iruhande rwawo haparitse igare munsi yawa harimo ikiraro gituma amazi atakuzura mu muhanda, igafasha abantu kugenda ntamburwa amazi.